Uyu mubyeyi avuye kuvoga amazi, aya mazi nk'uko tubibona ari mu ndobo ebyiri, bikaba ari ibintu bigoranye muri Afurika kuba umuntu yabona amazi hafi ye, uko bigaragara avuye kuyavoma ahantu kure ndetse ashobora no kuba atujuje ireme ry'amazi kuko amazi aba agoranye kuba wayakura kure nanone ngo ube wayabona asa neza.

Umuryango ku isi ushinzwe gutanga ibiryo, inkunga y'ibijyanye n'ibiribwa ku isi, ni umuryango utanga ibyo kurya ku bantu bashonje mu mpande zitandukanye z'isi, ikaba ifasha cyane cyane mu bihugu biri kuberamo intambara, ifasha abaturage baho kugira ngo babashe kubaho ibaha ibyo kurya.

Indwara zerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ni zimwe mu ndwara zihangayikishije abantu, izo ndwara ni indwara umuntu atahita apfa kumenya ako kanya arebye undi ariko ni indwara zihangayikishije cyane kuko umuntu uzifite iyo atitaweho ashobora kuba yaremba ndetse bikaba byateza ikibazo muri rubanda rwose.

Indwara yo mu mutwe ni indwara umuntu adashobora kuba yamenya arebye undi, ngo ahita yamenya ko ayirwaye. Ariko indwara yo mu mutwe, ni indwara ihangayikishije cyane kuko, rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu, afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko abantu ntibabimenye, bikazamuviramo kuba byakomera, bikaba birebire, umuntu akazagira aho asara akajya mu muhanda.

Mu bitaro harimo sirendere z'umwuka harimo firigo ibika amaraso akayashyira ku kigero cyiza cy'ubukonje kugira ngo ataza kuba yatakaza umwimerere wayo biri mu bintu bikenewe mu bitaro kugira ngo ibitaro bibe byabasha kuba byakongerara ubuzima bw'abarwayi bikabajyabufasha kugira ngo abarwayi be bakira neza kandi ntakinindi kibazo bahuriye nacyo kwa muganga.

Mu bitaro La kuruwaside ahazwi nko kwa Nyirikwaya mu mujyi wa Kigali, ni ibitaro binini abantu baza baje kwivuza baturutse impande zose z'igihugu, bazi ko baje kwivuza ahantu bari buze kubona serivisi nziza kandi inoze, bakaba baza bavuga ko bashobora kuba babona serivisi zijyanye n'ubuvuzi, zijyanye n'icyerekezo ndetse ziri hejuru mu bijyanye n'iterambere.

Gukora siporo ni byiza ku umubiri w'umuntu, kuko iyo ukoze siporo uraruhuka, umubiri ukaguma umeze neza, ugakomeza amagufa ndetse iyo umuntu asoje gukora siporo biba byiza iyo abanje akankwa amazi, agafata ibintu birimo isukari, kugira ngo agarure imbaraga umubiri watakaje.

Siporo ni ubuzima kuko iyo umuntu akora siporo aba yirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye, harimo umunaniro ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zishobora kuba zaterwa n'uko umuntu yagize ubuzima buzira siporo. Umuntu iyo akora siporo arambura imitsi, akagorora umubiri, bikamufasha kuba yaguma afite ubuzima buzira umuze.